Urujya n'uruza ku bantu benshi higanjemo abagore n'abagabo, abamotari bari gutwara abantu, ikimotari ni cyiza cyagutungira umuryango, kandi kibamo n'amafaranga menshi.

Imiti y'abarwayi, imiti y'abarwayi iri mu bitaro cyangwa se muri farumasi. Imiti ituma umuntu iyo yarwaye bituma akira .iyi miti umuganga ari kuyitondeka, ari gufata isa akayegeranya.

Ni imodoka imbangukiragutabara, hirya yaho hariho abagabo batatu basa nk'abifotoza bambaye udupfukamunwa, basa nk'aho hari ikintu bari kwifotozanya, hari amasezerano bagiranye.

Ahantu hari imiti uri kubona ko ari muri farumasi, ahantu bagurishiriza imiti y'abantu, imiti ni myiza ituma umuntu azanzamuka iyo uburwayi bwamwatatse.

Inzu nziza, iteye amarangi y'umuhondo ni posite do sate batangiraho imiti iyo abantu barwaye, hanze hariho kandagira ukarabe bakarabaho iyo bagiye kwinjira muri posite do sate.

Iperi n'urubuto rukundwa cyane cyane n'abana bakiri batoya, kuko bakunda kurya cyane. Ariko nanone agira amafaranga iyo uyajyanye ku isoko.

N'ibyatsi bihanda byitwa amatovu .Amatovu n'ibyatsi bipfuma cyane cyane ukunda kubisanga ahantu h'igishanga.

Ikibonobono ni igiti cyoroha cyane kuko ntabwo wabasha kucyasa, kuko kiba cyoroshye n'intoki zashobora kukivuna. Inusi na cyo ni igiti kiba gikomeye cyane akenshi kiranubakishwa.